Komeza wizigamire wungukirwe ahagera kuri kane ku ijana ku mwaka, biroroshye kandi akayenyeri gatanu, gatatu rimwe urwego.

Ikigo gitanga ubwishingizi burambye. Cyitwa Term Life Insurance, nawe wakigana dore ko hari intoki ziri gushushanya akazuba bivuga ngo kukigana ni ukwiteganyiriza.

Impanuka ntiteguza gura Turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe, urwego.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite uruhara, ufite imvi uri guseka, afite agakoni mu ntoki, imbere yanditse ngo no mu gihe cy'izabukuru turahagoboka, twandikire kuri Whatsapp.

Ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cya RSSB, kiri kutubwira ko kuba umuntu yujuje imyaka mirongo itandatu, agomba gusubizwa ibyo yagiye azigama.

Umugabo n'umukobwa bishimye, umugabo afite urufunguzo rw'imodoka, umukobwa afite amafaranga menshi bari kuvuga ngo hamwe natwe wakwizigamira amafaranga, ukaba washinganisha imodoka yawe.

Gugura turikumwe, ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, kanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe, urwego, wishinganishe.

Umugabo wambaye akajiri k'umuhondo, yambaye ekuteri, yambaye ikigofero cy'umutuku, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Buritamu.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwo gushyingura, bwitwa Solasi. Ni byiza ko nawe wagira ubwishingizi kuko burakugoboka.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara w'umuzungu, ufite imisatsi myiza, witwikiye umutaka, ari kwamamaza ikigo cyubwishingizi cyitwa Puremiyumu.

Ushoboye kwizigama kuri konti yawe ukagiraho amafaranga menshi cyane, dore hari umuntu ufite amadorari magana atatu na mirongo itatu n'arindwi yo muri Amerika.

Inyubako nziza cyane, imeze nk'iyubakishije amabuye, hatatseho imyenda, imipira ndetse n'amakanzu.

Agakangura cyangwa se agakoko kariho udukomo twinshi dutandukanye tw'amoko yose n'amabara agiye atandukanye, ay'umweru, ubururu, umutuku, umuhondo n'ayandi menshi nawe waza ukagurira umukunzi wawe mukishimana.

Ahantu bacuruza udutako tugiye dutandukanye, twanditseho amagambo menshi atandukanye, hari agashushanyijeho indungurutsi cyangwa agasumbashyamba, ikarita y'u Rwanda ndetse n'utunyoni twiza kandi twinshi bibereye ijisho.

Umumama usa n'ukuze uri mu iduka ari gucuruza, hakaba hari n'umukobwa wambaye agasengeri k'igitenge uje amugana, bigaragara ko aje gushaka serivise zitangirwa aha ngaha.

Inyubako icururizwamo ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'inkweto, hahagazemo umugabo wambaye isaha n'agapira k'umukara ari kwamamaza ibyo acuruza.

Iduka ricuruza imyambaro itandukanye y'abagore, mw'imbere harimo ibintu bisize amarangi y'umutuku ndetse iyo nzu irimo amakaro y'umweru, ni nziza.

Umuhanda urimo amagare, ndetse na moto n'imodoka ebyiri, urimo abantu benshi, urimo ibinyabiziga byinshi, ndetse ufite n'igikamyo giparitse ku ruhande rw'umuhanda rwo hirya, gisa icyatsi ndetse gifite n'umweru.

Ahacururizwa imyambaro igiye itandukanye, hari abantu benshi b'abazungu, hari umusaza umwe w'umuzungu ufashe imyenda mu ntoki, ari kubaza ibiciro byayo umucuruzi nawe akamusubiza.

Ni inzu nziza cyane, irimo amakaro, irimo imyenda, hari kwakamo amatara, hahagazemo ikibumbano cy'umuntu gisize irangi ry'umuhondo mu maso.

Imodoka nziza cyane y'ikamyo itwara imizigo, cyane cyane ibikoresho byifashishwa mu kubaka, hirya yayo hari izindi modoka ebyiri, imbere yayo hari abagabo babiri bafite igifunguzo cy'umweru cyanditseho ngo Akagera Motto.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara, akaba ari nshyashya, imbere yayo hakaba hahagaze umugabo n'umusore, umugabo yambaye kositimu, umusore yambaye agapira k'umukara, bari kureba iyo modoka.

Inyubako nziza cyane ni z'uruganda rwa Hyundai rukora imodoka nziza, nshyashya kandi zigezweho.

Imodoka nshyashya ikiri nshyashya, ndi kubona mo imbere ibikoresho byayo byose bigipfunikishije amashashi mashyashya, ni ukuvuga ngo nawe wayigura ukazajya uyikoresha mu kazi kawe.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umukara iri gucana amatara, bafashe ikintu kimeze nk'urufunguzo cyanditseho ngo Akagera moto, bari kwamamaza iki kigo gicuruza imodoka nziza cyane nk'izi nginzi.

Ahantu hari imodoka ihetse ikimashini, abashinwa bakoresha abari kubaka imihanda gisa umuhondo. Hejuru hanyuzeho insinga z'amashanyarazi.

Imodoka nziza cyane ifite amabara y'umukara, icanye ibinyoteri by'umutuku, ikaba iri ku mbuga ishasheho amapave, akaba ari imodoka nziza iri kugurishwa, hirya hari izindi ngenzi zayo.

Imodoka nziza cyane, ifite amabara y'umweru, akaba ari imodoka y'isuzuki, iri ahantu ku mbuga hari amapave, ikaba iri kugurishwa miliyoni cumi n'umunani. Yakozwe muri bibiri na cumi n'umunani.

Abantu babiri bahagaze imbere y'imodoka y'umweru, harimo umusore n'umugabo bafite ikintu kimeze nk'igifunguzo, bari kugihererekanya mu ntoki, cyanditseho Akagera moto.

Iyi modoka nziza cyane iparitse ku mbuga iriho amapave. Ikaba iri kugurishwa miliyoni makumyabiri n'eshatu z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi modoka ni benzi nziza cyane nawe wayigura ukayitunga.

Umusore wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ahagaze imbere y'imodoka ebyiri zanditseho Yundayi. Akaba ari kwamamaza uru ruganda, rukora izi modoka nziza zitwa Yundayi.

Imodoka nziza cyane nshyashya, isa umweru iriho utuntu tw'utubara tw'umuhondo, imbere hari umugabo ufite icyapa cyanditseho Akagera moto inyuma hari igikuta cy'inzu, cyanditseho Akagera moto bigaragara ko yakorewe muri uru ruganda.

Imodoka y'umukara nziza cyane, ikorwa n'uruganda rwa Yundayi, iparitse ahantu hasi hasa neza, hari ibikuta by'umweru.

Imodoka nziza cyane yakozwe n'uruganda rwa Yundayi, ifite amabara y'umukara, imbere irajya gusa umweru, iparitse ahantu hari inzu ifite inkuta z'umweru iteyemo amakaro y'umweru munsi.

Ahantu hasa umweru, hari igiceri cy'u Rwanda cy'amafaranga atanu. Iki giceri kera cyarakoreshwaga, ariko ubu ngubu kiriho, ariko nta kintu wapfa kubona cyagura.

Umugabo uri mu nzu yambaye ishati y'amaboko, akaba afite ibishandiko byinshi by'amafaranga imbere ye, ndetse n'akamashini kabara amafaranga.

Ni muri banki, hari mudasobwa ndetse n'ibikoresho bijyanye nayo, inyuma y'kirahuri hari umugabo wambaye ikositimu, utari kugaragara mu maso, ufite ikaramu ari gusinya.

Ibiceri bibiri by'amafaranga y'u Rwanda, kimwe cy'atanu gishushanyijeho ikawa, ikindi cya makumyabiri cyo gishushanyijeho icyayi.

Isahani iriho amandazi meza cyane kandi aryoshye, harimo rimwe rimanyuye mu imbere hasa umuhondo, amandazi ni meza cyane nawe uyariye wagira ubuzima bwiza.

Aha ni mu iduka ricuruza ibyo kunywa bidasembuye, harimo uducupa tw'ubururu twanditseho ngo Energy n'utundi, byose bikaba bitera imbaraga.

Inyubako icururizwamo ibijyanye n'ibikomoka ku mata, hari umusore wicaye uri kunywa amata ukanuye amaso, hari n'abandi batatu bafite amata ateretse ku meza.

Ni mu ikusanyirizo ry'amata cyangwa se mu ikaragiro ry'amata, aho tubona ibyuma byabugenewe mu gukonjesha amata, hariho n'ibikoresho bitandukanye bifashisha.

Umugore wambaye akagofero k'umweru n'agapira k'icyatsi afite ijage y'icyatsi, ari kubuganiza amata mu kabido k'umweru ndetse hari n'umukiriya waje kuyagura.

Iyo ugeze muri gare, abantu benshi bakunze kuza bakubwira ngo mbese ntabwo uragura imigati? Iyo migati rero, usanga iba iryoshye cyane ku buryo iyo uyiriye wumva umerewe neza n'ubutaha ukaba wagaruka.

Abantu batatu basohokeye muri kantine bagiye gufata icyo kunywa, hari abasore babiri n'umukobwa umwe uri guseka, bafite ibikombe by'amata ndetse n'amajage arimo amata, umwe muri bo ari kunywa.

Ni ahantu muri kantine bacuruza ibikomoka ku mata ndetse n'ibikomoka ku mafarine, hari imeza y'umweru iteretseho igikombe gifashwe n'intoki, hirya hari agasahani kariho irindazi na keke, irindazi rijombyemo ifoke.

Abakobwa benshi cyane biga muri kaminuza bakunda kurya ibiraha cyane kuko bavuga ngo biba bifite intungamubiri, ibiraha bikozwe mu ifarine, mu mavuta ndetse no mu birarayi.

Ikaragiro ry'amata. Harimo ibyuma biri mu mabara y'umweru bikonjesha amata. Hari inzu ifite ibikuta bisa umweru, purafo z'umweru n'amakaro y'umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho ifoto iri mu ibara ry'idarapo ry'u Rwanda mu ruziga, handitseho ngo funguza konte ya peyipale mu Rwanda uburyo bworoheje.

Uburyo wakohereza ukanakira amafaranga ku buryo bworoshye, wakohereza amafaranga, wabikuza, wakwishyura amazi, wakwishyura umuriro, wabona n'amayinite yo guhamagara bitakugoye.

Inyubako nziza, iteye amarangi y'umweru ku nkuta, harimo intebe nziza z'umukara, hari umugore uhagaze uri gushaka serivisi, imbere hari umwakira, yitwa Copedu.

Abagabo bane bahagaze hariho babiri bari kumwe n'abandi babiri bari kumwe ahagana hino, umwe yambaye agapira k'ubururu n'umuhondo kanditseho Rwanda ari kureba muri terefoni, undi nawe yambaye ingofero y'umuhondo n'ishati, afite terefone ebyiri mu ntoki ari kurebamo.

I&M bank yatuzaniye uburyo bwiza bugezweho, uburyo wakwishyura ukoresheje telefoni ukishyura umucuruzi, utavuye aho uri.

Icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro gitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho Repubulika y'u Rwanda, uru rupapuro rukaba rutangwa n'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rugaragaza ko uyu muntu nta deni afite.

Icyapa cya sosiyete yo mu Rwanda ishinzwe gukurikirana ibijyanye n'imisoro n'amahoro, kikaba kiri kugaragaza uburyo bwo kumenyekanisha umusoro mbere y'uko uwishyura.

Ni intoki zirabura cyane z'umukara, zifashe inoti zo mu bwoko bw'amadorari, zimeze nk'iziri kuzibara, harimo inoti y'ijana ndetse n'izindi.

Ikiganza gifashe inote nyinshi zitandukanye za mirongo itanu, izo note zirenga inote icumi, zifite agaciro kanini cyane, ni amafaranga y'amayero.

Inote y'amafaranga makumyabiri, ishushanyijeho umukecuru ndetse akaba yambaye imyambaro myiza cyane, iyi noti ikaba iriho n'ibirango byayo.

Amaboko abiri y'umuntu afashe inoti nyinshi, ari kuzibara biragaragara ko ari amafaranga menshi cyane yatunga umuntu.

Ibiceri byinshi cyane bigiye bitandukanye, birambitse hejuru y'inote, hari uturundo tw'ibiceri tugera muri dutanu ndetse n'inote z'ibihugu byinshi bitandukanye.

Amafaranga menshi cyane y'amadolari ashushanyijeho agatwe k'umuntu, bigaragara ko ari we Perezida w'icyo gihugu kandi akaba yari intwari cyane.

Intoki zimeze nk'iz'umukarani ziri kubara amafaranga kuko inzara z'izo ntoki zirasa nabi, muri ayo mafaranga harimo inote zigiye zitandukanye, iz'icumi, iz'ibihumbi bibiri ndetse n'izindi nyinshi.

Umuntu uri kubara inoti nyinshi z'amafaranga agiye atandukanye, harimo iz'ijana, iza magana abiri ndetse kuri ayo mafaranga hashushanyijeho umutwe w'umuntu.

Ahakorerwa ibikorwa by'ivunja ry'amafaranga, ikiganza gifite inoti y'amafaranga ijana na makumyabiri, bari kuvuga ngo ukeneye bayaguhinduriza.

Amaboko y'abantu babiri, buri wese ukuboko kwe gufashe amafaranga. Umwe afashe inoti z'ijana, undi afashe inoti za mirongo itanu. Bari guhererekanya kandi zishushanyijeho abantu zimwe.

Umuntu wicaye utari kugaragara mu maso ariko akaba ari kubara inoti nyinshi cyane z'amafaranga kuko hari ibishandiko byinshi, inyuma ye mu kaboko k'iburyo hari umugabo wambaye iby'umweru n'undi wambaye iby'umukara bicaye bari kureba muri telefone.

Icyapa kigaragaza ahantu hakorerwa ibikorwa by'ivunjisha ry'amafaranga, aho ujyana amafaranga yo mu gihugu kimwe bakaguha ayo mu kindi bitakugoye.

Inyubako nziza yo mu bwoko bw'igorofa, imanitseho ibyapa bigaragaza ko aho hantu bavunja amafaranga y'amanyamahanga, ukaba wajyana amwe yo mu gihugu kimwe bakaguha ayo mu kindi, ukayakoresha nta nkomyi.

Inyubako iri mu mabara y'icyatsi, ifite inzugi z'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo n'umweru, avuga ngo "n'ishami rya Remera rishinzwe kohereza amafaranga cyangwa kuyahindura"

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku ndetse n'umukara, bari kugaragaza uburyo bagenda bavunja amafaranga yo mu bihugu bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ifite inzugi n'amadirishya bisa umuhondo, ku nkuta hakaba hamanitseho icyapa cyo mu mabara y'ubururu n'umweru handikishije amagambo mu ibara ry'umukara bivuga ibiro mpuzamahanga bikora ivunja ry'amafaranga.

Inyubako nziza cyane, mo imbere harimo mudasobwa n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ikaba ifite inkingi z'umweru, mo imbere hahagazemo umuntu wambaye agashati k'umweru.

Akazu kariho ibyapa bitandukanye ariko kari mu mabara y'umuhondo, bigaragara ko gatangirwamo serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya MTN, utanga serivisi nyinshi zo kuvunja amafaranga iza banki ndetse n'iz'urwego.

Inyubako nziza cyane irimo intebe nziza zisa umukara, ikaba ifite ibirahuri byiza, amatara ari kwaka, iyo nzu ikaba ikorerwamo ibikorwa byo kuvunja amafaranga atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari abantu batatu bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, hariho ibyapa byinshi byamamaza.

Inyubako nziza ifite urugi rwegetseho, hakaba hatangirwa serivise zo kuvunja amafaranga agiye atandukanye, ukaba wajyana amanyarwanda bakaguha amadorari cyangwa ayandi.

Aho batangira serivisi z'ivunja ry'amafaranga hazwi nko kuri Foregisi biro, harimo umuntu wambaye umupira w'umweru uri gutanga serivise ndetse n'undi uri kuzisaba wambaye ipantaro y'umukara.

Inyubako nziza cyane, ifite salo igezweho, irimo intebe z'imifariso, isa umukara n'umweru, hakaba harimo tapi y'icyatsi ndetse n'amarido y'umweru n'inkuta zisa umweru.

Intebe nziza cyane z'imifariso zo muri salo zibanje mu mbaho, zikaba ziri muri salo ariko iyo nzu ikinguye imiryango.

Ibikoresho byiza bibaje mu mbaho, iyo ubifite muri saro yawe, ufite ameza, utubati ndetse n'intebe, iyo umushyitsi ahageze abona uri umusirimu.

Inyubako itaruzura hari ibikoresho by'imbaho byinshi cyane n'utuzu dutwikirije amashitingi y'ubururu, hari abagabo bahahagaze wagira ngo ni abayede.

Akantu kabaje mu mbaho gasize irange ry'umuhondo, gafite intoboro esheshatu ubona ko kagaragara neza cyane gakoranye ubuhanga.

Ibikoresho byiza bibajwe mu mbaho, harimo ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho ukegamira, zirambitse mu mbuga ishashemo amapave, inyubako iri inyuma isize irangi ry'umweru.

Ububaji ni umwuga mwiza cyane, nawe nakugira inama yo kuba wajya uwiga kuko bakora ibikoresho byiza nk'ameza atatse neza ndetse n'udutebe twayo turi mu ishusho y'uruziga, ubona ko biba bigaragara neza cyane.

Ibikoresho byiza bikozwe mu mbaho, biba ari byiza kandi bikunzwe n'abantu benshi, ni byiza rero ko nawe wabigura ukagira saro yujuje ibyangombwa.

Intebe nziza yo mu mbahoho, ikozwe mu buryo bugezweho ariko ijya gusa nk'iya gakondo, ibaje mu mbaho kandi urabona ko ari nziza cyane, iri mu nzu mo imbere.

Salo nziza cyane irimo intebe zifite imifariso ndetse hashashemo n'umukeka mwiza cyane, inzu ifite ibikuta bifite irange ry'umweru.

Inyubako ifite amagorofa abiri, imbere hateye ibiti by'indabyo ndetse hari ibirahuri, hari n'amavase ateyemo indabo, ni heza cyane, hari amarangi atandukanye.

Hotel nziza cyane rwose, ifite ahantu wakwicara ukaganirira n'abawe mukanezerwa ndetse muri kureba n'udusozi tugiye dutandukanye duhari.

Hoteli nziza cyane urabona ko icyeye, hari itara, harimo abantu babiri umwe yambaye akajire k'umukara n'ikoti ry'umweru undi yambaye ishati y'umweru.

Inyubako nziza cyane yo mu bwoko bw'igorofa, impande zayo hakaba hari ibiti bikiri bito ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga n'abantu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho y'igorofa, ikaba isize amarangi y'umutuku ikaba ifite utuhuri tw'umuhondo ndetse n'umuryango winjiramo.

Inyubako nziza cyane ndende yo mu bwoko bwa etaje cyangwa igorofa igeretse inshuro nyinshi cyane, ndetse ikikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Iyi nyubako nziza irimo intebe z'amadive ibi ikaba ifite inkingi zisize irangi ry'umweru ikaba ifite ibirahuri bibonerana ndetse hakaba hateyemo n'ivazi riteyemo igiti.

Ahantu hari igisima hasi cyanditseho Marriott. Marriott hotel ni Marriott nziza cyane mu Rwanda wagana, waba uri umunyarwanda cyangwa uri umunyamahanga bakakwakira neza kandi ukabona ibyo wifuza.

Inyubako nziza cyane igezweho ya etaje, ni inyubako ifite inkingi z'umweru, ifite n'amakaro, ikaba yubatswe mu buryo bugezweho ku buryo buri wese wayigeramo yamushimisha.

Inyubako nziza cyane cyane yo mu bwoko bw'amagorofa, irageretse inshuro zigera muri eshanu, hino hari pisine ifite amazi y'ubururu abantu bogeramo, hakaba hari abana babiri bihicaye n'umugabo umwe uhagaze hakurya.

Inyubako nziza yo mu bwoko bw'igorofa isakaje amabati ajya kumera nk'amategura, yubakishije amatafari ahiye hanze harimo ubusitani buteyemo intebe n'ameza butwikije umutaka w'icyatsi.

Hoteri nziza cyane ubona ko ikeye, ifite amahumbezi, ubusitani bwiza ndetse ifite n'amarange ashimishije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'igorofa, igeretse gatatu, hanze hari umutaka usa umutuku, utwikira abantu baje muri iyo nyubako, hari n'ubusitani bwiza busukuye, bunejeje.

Inyubako nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali, hakaba hariho uruhande rumwe rukoreraho igice cy'ubwishingizi cya Prime insurance, ahandi handitseho mu ibara ry'umuhondo Nyarutarama, ahandi handitseho ikigo gikora ibijyanye n'ivunjisha.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hari inyubako y'ikigo cy'ubwishingizi n'amatara yo ku muhanda ari kwaka.

Imodoka zigera muri enye eshatu zisa umweru, indi imwe isa umuhondo n'umukara, ifite ibinnyoteri by'umutuku, ziparitse imbere y'ikigo cy'ubwishingizi cya MUA.

Inyubako nziza cyane y'igorofa isize amarange y'umweru, iriho ibyapa by'umutuku n'umweru byamamaza ikigo cy'ubwishingizi cya U A na P.

Abantu bicaye ahantu muri sale, bigaragara ko wagirango ngo bari mu nama, babiri babiri bagiye barebanye, bafite mudasobwa, ariko hari undi mugore wicaye wenyine yegamye.

Inyubako nziza cyane, iri mu marangi y'umweru, ubururu ndetse n'irangi ry'ivu, iyo nyubako ikaba ifite ibirahuri, mo imbere harimo intebe z'umukara, ikaba yerekana aho ikigo cy'ubwishingizi cya Allianz gikorera.

Ahatangirwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN, haba hari intebe nziza cyane ndetse n'utuntu tw'uturange tw'umuhondo tugaragaza iyo sosiyete.

Inyubako nziza cyane iri mu mabara y'umuhondo, umweru, n'ubururu, hariho icyapa cyanditseho ikigo cy'ubwishingizi cya Prime Insurence, ishami rya Rusizi.

Ni ahantu hari inyubako nziza cyane kandi ngari, isize amarangi y'umutuku n'umweru, harimo intebe z'umukara n'umuntu wicayemo, bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya Airtel.

Inyubako nziza cyane iriho icyapa cy'umutuku, kizengurutswe n'akabara k'umweru, mo imbere harimo amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, harimo u na a na pa. Bigaragaza uburyo ubuzima bworohejwe.

Ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cyitwa OLD MUTUAL, gifite serivise nyinshi gitanga kikarinda uwakiganye kwicuza.

Abantu bagera muri bane bicaye babiri babiri barebana, ab'imbere ni umugore n'umugabo n'ab'inyuma ni umugore n'umugabo, hagati ya babiri babiri harimo mudasobwa.

Abantu benshi cyane bateraniye mu nzu mberabyombi ikorerwamo inama, buri wese ku meza imbere ye hashasheho ibitambaro by'icyatsi, hacanye n'amatara muri iyo nzu.

Ni byizayiza cyane gukoresha ibigo by'imari, ariko nagushishikariza gukoresha I and M banki, ni banki nziza cyane, iragufasha ikagutabara, ikaba yakugurira n'ikinyabiziga igihe ugikeneye.

Abasore babiri n'abakobwa babiri bose barishimye bari guseka, umusore umwe afashe ikigofero cy'abafundi yambaye n'isarubeti y'ubururu, umukobwa we afite igitabo, bose barishimye bari kwamamaza ibijyanye na bizinesi.

Icyapa gishushanyijeho umugore mwiza uri guseka, ufite udusatsi twiza cyanditseho ngo ni byiza gukorana na banki yacu, mutugane tubafashe.

Inzu z'amagorofa, imbere haparitse utumodoka tune, hari n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka ndetse na moto.

Isoko ricururizwamo imbuto n'imboga z'amoko yose. Harimo: inyanya, puwavuro, intoryi, karoti, imboga z'ibishyimbo, ibitunguru n'imiteja. Hari n'abantu bari kubicuruza.

Iduka ricuruza ibikoresho gakondo harimo ibiseke ndetse n'ingabo n'imyambaro y'intore n'ibindi bikoresho gakondo, hicayemo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru.

Ni mu isoko aho bacuruza inkweto nyinshi zigiye zitandukanye zo mu bwoko bwa bodaboda, zifite amabara atandukanye umweru, umuhondo, ubururu n'izindi nyinshi cyane.

Inyubako nziza cyane y'isoko, ku ruhande hariho ibyapa byamamaza, handitsweho ngo Konka hari umuhanda wa kaburimbo, amamoto n'abanyamaguru bari kugenda.

Ahantu mu isoko hari urujya n'uruza rw'abantu hacururizwa ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya nk'ibitoki, hahagazemo umugabo uri kugenda wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara.

Isoko rinini ryubakishije ibyuma, risakaje amabati, iryo soko ricuruza amagi, harimo abagore babiri biteze ibitambaro ndetse n'amatereyi imbere yabo ariho amagi menshi.

Umukobwa uri guseka wambaye agapira k'umutuku afashe icyuma cya mubazi mu ntoki, hirya hari umugabo wambaye agapira k'umuhondo nawe ari guseka, hakaba n'umukobwa wambaye amadarubindi waje kubahahira imbuto.

Isoko rya kijyambere ryubatswe mu buryo bwa etaje, hari abantu benshi bavuye guhahamo, hano hari umugabo wambaye agapira k'umutuku wikoreye imineke mu gapaniye n'umugore uri inyuma wambaye ikanzu, wikoreye agakarito n'abandi inyuma benshi cyane bikoreye.

Inyubako nziza cyane icururizwamo ibijyanye n'ibinyobwa bidasembuye, hari utubati twinshi cyane, hari inyubako nziza cyane z'amagorofa zigeretse akarenga rimwe.

Ni ahantu bacuruza ibikoresho bya kinyarwanda, bya gakondo, bya kera kugira ngo umuco Nyarwanda utazacika, uzakomeze wubahirizwe.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo imyambaro itandukanye by'umwihariko iy'abadamu, harimo ibitenge, amakanzu, harimo umugore wambaye imyenda y'umweru n'umukara waje guhaha.

Isoko rigari cyane ricuruza ibiribwa harimo abantu benshi cyane abaguzi n'abacuruzi, harimo n'ibitoki.

Umugabo w'umuzungu, uhagaze wambaye agapira k'umweru, na baji y'umuhondo, afite akantu ari guhereza undi ngo akuremo.

Akazu gatangirwamo serivise z'ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda ka Eyateri, bari kwamamaza ibikorwa bikoreramo. Barabitsa, bakabikura amafaranga, ukeneye iyo serivise, wagenda bakayiguha.

Umugabo w'umuzungu uri kureba imbere, mo imbere hakaba hari umugabo uri kumuha serivise, wambaye agapira kanditseho Koka kola, mu ibara ry'umutuku.

Inyubako ya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, hanze hahagaze abantu batatu bambaye udupira twa MTN n'undi umwe ndetse n'umuzungu, bisa nkaho baje gushaka serivisi.

Ahantu hari utuzu dusize amarange y'umuhondo, umukara, ubururu n'umweru, hari abantu benshi batandukanye bari gushaka serivisi, bigaragara ko hatangirwa serivisi za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN.

Akazu ka sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MNT, mo imbere harimo umukobwa uri kumwenyura, wambaye agashati k'umweru n'imisatsi myiza. Akaba atanga serivisi z'iki kigo. Nawe niba ushaka wamugana akagufasha.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo, kandikishijeho amagambo ari mu mabara y'umukara, kakaba gakoreramo sociyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN. Hanze hahagaze umukobwa wambaye akajipo k'umutuku.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo gakorerwamo serivisi za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN, harimo abakozi bari guha serivisi abakiriya baje babagana, hirya hari akandi k'umutuku ka Airtel.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye agapira k'icyatsi, ufite agakarita k'umutuku mu ntoki na terefoni, imbere ye hari inyanya ziri mu kantu k'umutuku, hirya ye hari umutaka w'umutuku n'undi w'umuhondo.

Abantu batatu babiri bambaye impuzankano n'undi umwe wambaye imyenda y'ubururu, hari n'undi mugabo inyuma yabo wambaye umupira w'umweru, abambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umuhondo, bigaragaza ko bakorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN.

Inyubako nziza cyane ya Tayo ifite inzugi nziza zibonerana mu imbere ndetse izize n'irange ryiza cyane.

Leta yashyizeho uburyo bwa byikorere, aho buri muturage asura urubuga rw'Irembo agashakira aho serivisi akeneye iz'uko atafunzwe, iz'uko ari ingaragu ndetse n'iz'uko ari imfubyi.

Sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya Eyateli, iri kwerekana uburyo wagura jigabayiti mirongo itandatu zimara iminsi mirongo itatu, ku mafaranga ibihumbi bitanu, ugahamagara ndetse ukabona na enterinete, ukohereza na mesaje bitakugoye.

Moto ifite ibara ry'umukara, ihetse agasanduku kari mu ibara ry'umukara n'icyatsi, hari n'umugabo uyicayeho wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'ikoboyi, handitseho safi twakugezaho ibyo ukeneye mu gihe gito.

Moto iparitse mu muhanda wa kaburimbo, ifashweho n'umugabo wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi yanditseho vuba vuba, akaba yambaye ingofero y'icyatsi. Kuri moto hariho igisanduku cyanditseho vuba vuba, kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ni uburyo bwo kugira ngo umumotari n'umugenzi badahendana hashyizweho icyuma cyitwa mubazi kibara urugendo umumotari yakoresheje, akaba ari cyo kigaragaza igiciro umugenzi agomba kwishyura.

Iyi modoka ishushanyijeho icyapa cyamamaza isoko rikorerwa ku mbuga nkoranyambaga, ukaba wagura ibintu bikakugeraho byoroshye utavuye aho uri.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, ifite amabati y'umutuku, ifite ikigega, isize amarangi y'umweru, ibirahuri byiza, imbuga yayo irimo amapeve, ikaba iri kugurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu, iherereye Kicukiro Kagarama mu mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane iherereye mu Mujyi wa Kigali mu Gihugu cy'u Rwanda, ikaba irimo amakaro, ifite utubati twiza cyane ndetse iherereye Kigali, Kacyiru irakodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi.

Ubwiherero bwiza cyane bugezweho, busa umweru, bufite urugi rufugika neza ndetse n'ubwogero bwiza bugezweho ndetse inkuta zaho zikaba zisa umweru.

Inyubako nziza cyane ikodeshwa amafaranga igihumbi na magana tanu ku kwezi, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda. Irimo intebe z'amadiva, imifariso, amakaro ndetse n'ibindi bitandukanye buri wese yakwifuza.

Iyo nzu nziza cyane ifite igitanda kiriho imisego ibiri, matela nziza cyane yo mu mabara atandukanye. Hariho amarido, igikuta cy'umweru n'umukara. Iyi nzu ikaba ikodeshwa amafaranga amadolari icyatanu iherereye i Kigali.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari igorofa, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda, ikodeshwa ibihumbi bibiri by'amadolari ku kwezi.

I Kigali muri Musave mu Bumbogo hari ikibanza cyiza cyane, gikikijwe n'igipangu cyubakishije amatafari ahiye, kirimo inyubako isakaje amabati y'umutuku n'isakaje ay'umukara, kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umukara, ifite ibirahure by'umukara, inkingi z'umweru, isize amarangi y'umweru, ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye, ku ruhande hari iyindi nzu isakajwe amabati y'umutuku.

Inyubako nziza cyane isize karabasasa y'umukara, ku nguni hakaba hariho amarange y'umweru n'umukara, ifite ibirahure byijimye, ikaba iri gukodeshwa mu mujyi wa Kigali, ifite ibyumba byo kuraramo bitatu, aho kogera habiri, ikodeshwa ibihumbi magana atatu ku kwezi.

Inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali ikodeshwa, iherereye Kabeza ifite ibyumba bitatu, ubwogero butatu, irakodeshwa ibihumbi magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi.

Inzu nziza cyane yo mu bwoko bwa kadasiteri, ifite ubwiherero bubiri, ubwogero bune, ikaba iherereye Batsinda i Kagugu, igiciro ni ibihumbi mirongo itatu.

Inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, igeretse kabiri ifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, ikaba ikodeshwa. Ifite ibyumba byo kuraramo bibiri, ubwogero bubiri kandi mwayibamo muri abantu benshi.

Inyubako nziza cyane yo mu bwoko bw'amagorofa, igeretse, ifite urugo rusize amarange y'umukara ndetse nayo ubwayo ikaba isize amarange y'umweru.

Inyubako nziza cyane ikodeshwa ibihumbi magana atandatu, ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu, ikaba iherereye Kagarama mu Mujyi wa Kigali.

Inyubako nziza cyane igeretse kabiri, akaba ari igorofa, ikaba isize amarangi y'umweru, hakaba ariho icyapa cyanditseho amagambo ari kwamamaza.

Inyubako nziza cyane y'igorofa, ikaba iri gukodeshwa amafaranga ibihumbi bibiri, ikaba iherereye i Kigali mu Rwanda, ifite ubusitani bwiza ndetse n'imikindo.

Ahantu hari inyubako nziza icururizwamo ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye harimo abantu bambaye impuzankano z'umuhondo, hari intebe zigiye zitandukanye.

Isoko ricuruza ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyiganjemo ibyo kurya, harimo indobo, indabo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, wabasha kubona icyo ushaka.

Iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo abagore babiri, harimo umugabo wambaye agapira karimo imirongonko, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, nawe ugikeneye wajya guhahamo.

Abagore n'abakobwa benshi bahagaze ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko amavuta y'abakobwa, urabona barishimye bagiye gushaka ibyo bifuza.

Amakarita y'ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda cya RSSB, aho giha abaturage mituweri cyangwa ubwisungane mu kwivuza kugira ngo batazarembera mu rugo barwaye.

Umugabo umwe n'abagore batanu bari ahantu kwa muganga, bagiye kwivuza buri wese afite agakayi karimo umwirondoro we. Bategereje muganga ngo abafashe.

Aya ni amakarita menshi y'ubwishingizi bw'ikigo cy'igihugu akaba yitwa mituweri, ubwisungane mu kwivuza mu banyarwanda.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati, ifite inkingi zubakishije amatafari ahiye, akaba ari ivuriro ry'ibanze rya Kabazungu.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ikoreshwa n'abanyarwanda kugira ngo uzafatwa n'uburwayi, azajye kwivuza mu buryo bumworoheye kandi bwihuse bitamugoye.

Ni ukuboko k'umuntu gufashe ikaramu, hari udukarita twanditseho Gasabo turi mu mabara y'umuhondo, uwo muntu ari kwandikaho, biragaragara ko ari utwa mituweli ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda.

Abagore babiri bishimye bari guseka, bafashe icyapa cyanditseho mu ibara ry'umweru ariko cyo gisa ubururu, umunyamuryango ku isonga.

Reba imisanzu yawe mu kigo cy' ubwishingizi mu Rwanda cya RSSB. Hari icyapa gishushanyijeho ikirango cy'umweru kiri mu ruziga cyanditseho iyo sosiyete.

Umugore w'inzobe mwiza cyane, ari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvati wafunguye indangururamajwi ari kuvuga, buri wese imbere ye hari mudasobwa n'amazi n'indangururamajwi.

Iduka ricuruza ibiribwa, ibinyobwa ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo purafo zisa umweru, inkuta zisize amarange y'umweru, hasi hakaba harimo amakaro.

Ni ahantu mu isoko bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo umugabo uri kugenda afite akagare mu ntoki asunitse, ari kugenda ashyiraho ibyo yahashye akaba yambaye imyenda y'umukara.

Iduka ricuruza ibyo kunywa ndetse n'amavuta menshi agiye atandukanye, hasi hashashemo amakaro y'umweru ndetse n'umukara.

Ni mu iduka, aho wacuruza imigati. Imigati ni myiza cyane, wayirya ku ifunguro rya mu gitondo igihe uyishaka.

Akabati gafunze neza, karimo ibyo kunywa bidasembuye, byinshi, bitandukanye, harimo fanta, ji, amazi, yahurute, n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nziza cyane, mo imbere haberamo ibikorwa by'ubucuruzi. Muri make, iyi nyubako ni isoko ricururizwamo ibintu byinshi cyane bitandukanye.